Abagabo babiri bicaranye n'umugore umwe, bose baje baje mu birori ariko baje bazindutse bitewe n'uko bari bafite amatsiko, yo kumenya uko ibirori uyu munsi biraba bimeze. Baricaye bose bategereje bagenzi babo ko na bo bahagera, kugira ngo ibirori bitangire, ariko basa nk'aho batangiye kurambirwa.

Urubyiruko uyu munsi bitabiriye kuko umuyobozi w'akarere yabatumijeho kugira ngo abaganirize abibutse ko ari bo mbaraga z'igihugu bityo aribo batezweho ahazaza heza h'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko urubyiruko rwitwara neza kandi bagatangira gutekereza ibikorwa by'iterambere hakiri kare.

Ku munsi wahariwe ubukerarugendo ku isi mu Rwanda naho bawizihije, aho abayobozi batandukanye batumiye n'abandi batumirwa bagiye batandukanye kugira ngo barebere hamwe icyo ubukerarugendo bufasha igihugu n'icyakorwa kugira ngo bakomeze babuteze imbere.

Repubulika y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama, uyu munsi abayobozi bahuye kugira ngo baganire ku kibazo cy'ukuntu abaturage bari kubana muri iyi minsi bitewe n'uko hari kuboneka impfu nyinshi za benshi bicanye.

Icyumba cy'inama, abayobozi bose babahamagaje kugira ngo baganire, ndetse banarebere hamwe, uko umuyobozi akwiye kwitwara, ndetse n'indangagaciro zikwiye kumuranga. Kuko akenshi iyo hari ubuyobozi bwiza, ibikorwa byose bigenda neza.

Abaturage uyumunsi baje mu nteko bazindutse ndetse bibwirije bitari nk'ibisanzwe aho wasangaga babahatira kuza bitewe n'uko umuyobozi w'akarere uyu munsi yabasuye. Kugira ngo baganire ndetse n'abaturage bafite ibibazo byanze gukemuka uyu muyobozi abashe kubafasha kubikemura.

Mu cyumba cy'inama, abagabo n'abagore uyu munsi bitabiriye, bose baje bambaye neza kandi bazindutse ndetse bambaye utuntu mu ijosi tuba twanditseho amazina yabo, bigaragaza ko yaje yemerewe kwitabira iyi nama.

Umuyobozi yaje kuganiza abaturage bakorera muri Nyabugogo, uko bakwiye kwitwara neza kandi ntibarenge ku mategeko y'igihugu, bitewe n'uko hari bamwe bagenda bacuruza ibicuruzwa mu mamodoka, mu buryo bitemewe kandi leta ikaba ishobora kubahana.

Mu cyumba cy'inama abagabo b'abayobozi mu gihugu cy'u Rwanda, uyu munsi bahuriye hamwe kugira ngo bumve icyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ashaka kubagezaho. Akenshi hari amakosa abayobozi bakora bakagirango abaturage ntabwo bazabivuga, bikarangira babahamagaje kugira ngo bisobanure.

Abayobozi biganjemo abagore bakorera mu mujyi wa Kigali, uyu munsi baje mu nama kugira ngo baganire, ibikorwa bakwiye gukora kugira ngo iterambere ry'igihugu rikomeze ryihute, aba bagore bakora inshingano zabo bitanze kandi banabikunze bakabikora neza.

Icyumba cy'inama uyu munsi hatumiwe abakozi bagiye batandukanye bakora ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi kugira ngo baganirire hamwe icyo bakora bitewe n'uko ubushomeri bwiyongereye kandi urubyiruko ari rwinshi bari gushakira hamwe ibikorwa bakora bigakomeza bigateza imbere urubyiruko badashomereye.

Mu cyumba cy'inama uyu munsi hitabiriye abagabo aribo benshi kandi bose ni abayobozi, hajemo n'umugore umwe w'umubikira kugira ngo baganire ku byarushaho guteza igihugu imbere, iteka abayobozi aba ari ijisho rya rubanda.

Mu cyumba cy'inama, uyu munsi abayobozi bayoboye umuryango witwa Tafisa baje guhurira hamwe kugira ngo barusheho kwiga ku byatuma umuryango wabo utera imbere, bitewe n'uko ibikorwa batangije ndetse n'imishinga bafite ari byinshi kandi bashaka ko byose bizagenda neza.

Icyumba kinini cyabereyemo inama, aho abagabo n'abagore bagiye bashinzwe ibintu bitandukanye mu nzego zitandukanye, bose baje bitabiriye. Buri wese afite agakaye n'agakaramu ari kwandika, abadafite amakaye n'amakaramu na bo bari kubyandika muri terefone.

Mu cyumba cy'inama abitabiriye bose baje bazindutse kandi buri wese yasabwe kuzana mudasobwa ye; kuko ibyo bari kuhavugira buri wese arandika kugira ngo azabone uko atanga raporo; ikindi kandi hari ibyo babasabye nabo bagomba kuza kwerekana mu ruhame.

Mu cyumba k'inama, abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye zirimo n'iz'umutekano bose bitabiriye kugira ngo babashe kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo umutekano w'igihugu cy'u Rwanda wiyongere yaba ari mu baturage bagituye, ndetse no ku mipaka yacyo.

Icyumba cy'inama, abayobozi bazindutse kugira ngo baganire ku bibazo bigiye bitandukanye. Uyu munsi bamaze igihe batekereza icyateza urubyiruko imbere, ni byo baje kuganiraho kugira ngo barebe ibyakorerwa hamwe kuko ntabwo bashaka kubona urubyiruko rwicaye gutyo gusa kandi ari rwo mbaraga z'Igihugu.

Abagore n'abagabo bambaye neza, bose barahagaze bari kuririmba bizihiwe, bari baje mu birori bigendanye no gushima Imana bitewe n'uko byinshi bayisabye yabibafashijemo, haje n'umupasiteri wo mu itorero ry'Angirikani niwe wayoboye ibi birori.

Abagore babiri baje mu nama yahuje ibihugu bitandukanye, aho umugore ubanza wambaye nk'abasilamu yifashe ku itama, yaturutse mu gihugu cya Senegal, undi mugore nawe wambaye ikositimu n'ishati y'umutuku akaba yaturutse mu gihugu cya Nigeria.

Umugore wambaye neza bigaragara ko ari umuyobozi w'akarere, afitiye mikorofone, abaturage batumijwe kugira ngo baze bumve icyo ashaka kuba yabagezaho kuri uyu munsi. Bose barakurikiye kugira ngo n'abafite ibibazo bashaka kumubaza baze kubona uko babimubaza.

Umuhungu witwa claude yambaye ishati y'umweru yaguze smartphone bitewe n'uko akazi akora baheruka kumwishyura yumvaga aricyo kintu ashaka cyane bitewe nuko hari ibirori ajyamo akabura uko afata amafoto kandi akunda amafoto.

Ku Irembo batangiraho serivisi nyinshi zitandukanye, aho icyemezo icyo ari cyo cyose ugisaba bakakiguha. Uyu nguyu nawe yari ari kwaka icyemezo cy'uko atishoboye bitewe n'uko yacitse ku icumu rya Jenoside, bikaba bikenewe ko Leta imufasha, nawe akabasha kwiteza imbere.

Telefone cyane cyane izi zigezweho za simati fone, aba ari ingenzi kuko igihe wagiye mu birori, mu bukwe cyangwa se ibindi bitandukanye bikaba ngombwa ko wumva ukeneye gufata amafoto, ufotora ubundi ukabibika ukajya ubyibuka, ukibuka ibihe byiza wanyuzemo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Yubatse neza hateyemo utumeza twiza, ndetse n'udutebe twiza, cyane aho bakirira abantu baje babagana. Mu nyubako harimo amatara menshi cyane, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose yaba ari mu gitondo cyangwa nijoro abarimo baba bareba neza wagira ngo ni ku manywa y'ihangu.

Mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, uyu munsi abakiriya babuze, niyo mpamvu umucuruzi yahisemo kwisohokera kugira ngo areke kurambirwa, byibura abe areba abantu batambuka, areba abambaye neza n'abatwaye ibinyabiziga birenze.

Ikigo cy'igihugu Rwanda reveni otoriti gishinzwe imisoro n'amahoro ntabikira itegeko ko buri serivisi yose ushaka bigusaba kujya ku cyicaro kuko nabo bashyize serivisi zabo onurayini aho ukoresha telefone yawe cyangwa mudasobwa ugasaba serivisi zose ushaka kandi bakaziguha.

Ninde ufatwa nka nyir'umutungo utimukanwa nyirmutungo utimukanwa bivuga umuntu wanditse nka nyir'uwo mutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo n'ufatwa nka nyir'umutungo hakurikijwe amategeko y'uRwanda.

Irembo ni ikigo gikorera ku ikoranabuhanga, aho abantu bakenera serivisi zitandukanye, zirimo kwandikisha ubutaka, kwandikisha abana bavutse, gushaka ibyangombwa bitandukanye birimo iby'ubutaka, gushaka amapasiporo, bose bakaba babikora bidasabye kuba bava iwabo mu rugo, ngo bajye aho icyicaro k'iki kigo kiri.

Umunara muremure ufasha abaturage kubona amarezo, igihe bari gukoresha amatelefone, uyu munsi, Tigo yabasuye kugira ngo yamamaze ibikorwa byayo, imenyeshe abakiriya bayo na serivisi nshyashya igiye kujya itanga.

Ofisi ikoreramo abakozi benshi batandukanye kandi bose bakoresha mudasobwa, igihe bagiye gutaha barabanza bakabizimya, kugira ngo mu ijoro hatabasha kubaho impanuka y'amashanyarazi bikaba byatuma izi mudasobwa zose zangirika, kuko byaba ari igihombo kuri kampani.

Igice gikorerwamo ibikorwa by'ubwubatsi, uyu munsi abafundi bose bazindutse, bitewe n'uko bafite imishinga myinshi kandi barashaka ko izo nyubako zose bazaba bazisoje gusa aho bari basoje bamaze kuhasiga isima, bategereje ko yuma.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali irimo iravugururwa bitewe n'uko bayubatse kera bataramenya ibigezweho, none ubu bakaba bari kureba ukuntu inzu zigezweho zisa neza kandi zikomeye, bakaba bahisemo nabo kuyivugurura kugira ngo ise neza yongere ibe nshya.

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali, kubatsemo amazu meza, yubatswe mu buryo bugezweho kandi asize amarangi meza, abantu batuye muri aka gace ni abantu bifashije b'abakire kandi b'abasirimu.

Abakozi babiri, umwe n'umugabo undi n'umugore, bose bambaye imyambaro y'akazi amajire y'icyatsi ndetse bakambara na kasike mu mutwe mu rwego rwo kwirinda impanuka, kuko ibikorwa bakoramo ari ibikorwa by'ubwubatsi kandi ahantu hari kubera ibi bikorwa biba bishoboka ko habera impanuka itunguranye.

Inyubako nziza ifite amarangi meza kandi nini bigaragara ko ikorwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hejuru bahashyize itara rimurika, mu gihe cya nijoro kugira ngo ari abakiriya ndetse n'abacuruzi bakora ibikorwa byabo batabangamiwe n'umwijima.

Muhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali, ku mpande hateye ibiti byinshi cyan,e ku buryo umuntu ashobora kuza akaba yanahifotoreza cyangwa akaba yumva akayaga kava muri ibi biti.

Inyubako y'ibitaro iherereye mu mujyi wa Kigali, abarwayi uyu munsi ntabwo ari benshi cyane, bitewe n'uko munsi wabanje hari haje abantu benshi kandi bagataha bose bafashijwe, hano ni mu nzu abagore babyariramo n'abandi bategereje kubyara niho baba bategereje bari.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bya CHUB, iherereye mu Karere ka Huye, mu Mujyi wa Butare' Ibi bitaro byakira abarwayi benshi kandi b'indembe ndetse abenshi muri bo bakabasha gutaha bavuwe neza, bishimye kuko babaye bazima.

Inyubako iherereye mu mugi wa Kigali, hano ni ku bitaro bya CHK, hari udutebe twiza aho abarwayi bicara bategereje kuko badashobora kugira mu isuzumiro icyarimwe hagenda umwe bamusoreza undi na we akinjira, ku ruhande hari ubwiherero kugira ngo uwumva akeneye kwiherera abashe kujyayo byoroshye.

Kwa muganga iteka hahora hari abantu benshi bitewe n'uko uburwayi butajya bubura kubaho, ariko mu rwego rwo kugira ngo abantu bose bafashwe kandi bahabwe serivise bitewe n'uko bakurikiranye, baba barahashize intebe ku buryo bicara ku murongo bitewe n'igihe bahagereye.

Mu bitaro bya CHUB, biherereye mu karere ka Huye, mu mujyi wa Butare, baba baragiye bashyiraho ibyapa bifasha abarwayi mu kubayobora bitewe na serivisi bashaka. Hano baragaragaza ko imbere utambitse mu ruhande rw'iburyo, uba ugiye kureba muganga w'amaso.

Inyubako y'ibitaro bya CHUB, iherereye mu karere ka Huye, mu mujyi wa Butare, uyu munsi nta barwayi benshi cyane bahari, bitewe n'uko ku murongo hari abarwayi bake ugereranyije n'uko byari bisanzwe. Uyu munsi muganga wakoreye muri uyu muryango, yagerageje kubakira vuba kugira ngo babashe gutaha hakiri kare.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo amagaze menshi, aho baba babifungiraniye hamwe kugira ngo babashe kubungabunga umutekano wabyo, bityo bibe bitateza inkongi y'umuriro mu bitaro, haramutse habaye inkongi mu bitaro hapfiramo abantu benshi cyane, cyane ko abarwayi baba bari mu bitaro batabasha kwiruka.

Inyubako nini cyane, ni gereza aho abantu bakoze ibyaha baba bafungiwe, yaba abakatiwe n'abategereje gukatirwa. Ni byiza ko abantu bose birinda gukora ibyaha kuko iteka iyo ubikoze urahanwa kandi ugacibwa n'amafaranga menshi cyane.

Umugore mwiza ufite ibishuko by'umukara, yambaye amaherena meza uyu mugore ubona ko yiyubashye kandi wize amashuri menshi, uyu mugore akorera mu rukiko ni umucamanza, akenshi akazi ke agakora neza kandi akagakorana ubwitange niyo mpamvu amaze igihe kinini muri aka kazi.

Abagore n'abagabo bigaragara ko ari abayobozi kuko bambaye utwenda turiho idarapo ry'igihugu bigaragaza ko ari abayobozi bakorera mu gihugu cy'u Rwanda, baje mu nama ndetse hatumijwemo n'abaturage kugira ngo babashe kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo bakomeze biteze imbere.

Inteko y'abaturage, babahamagaje kugira ngo bumve ibibazo biri hagati muri bo n'abantu bagiye babakorera ibyaha kugira ngo babashinje, babatange bajye guhanwa. Ni byiza ko abantu bakora ibikorwa bitemewe bahanwa kugira ngo n'abandi babyigireho, bamenye ko bakwiye kwirinda ibikorwa bibi.

Ikirego gisaba gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane nta shingiro gifite, amategeko yashingiweho ni amategeko agiye atandukanye, imanza zifashishijwe, Busoro Gervais na Busoro Mugunga Desire n'abandi.

Ni byiza ko igihugu kigira amategeko kigenderaho ndetse abantu bayarenzeho bagahanwa. Iteka abantu bafunzwe tubafata nk'abanyabyaha, kuko iteka baba bakoze ibikorwa bibangamira sosiyete muri rusange. Ugasanga umuntu yibye, undi yishe, undi yakomerekeje. Uyu mugabo na we baje kumuburanisha kubera ibikorwa yakoze bibi.

Gereza nini iherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Karere ka Nyarugenge, hafungiwemo imfungwa nyinshi, aho higanjemo abagabo, uyu munsi baje kubasura niyo mpamvu uwo bari gusoma ari kumanuka akajya kureba abantu be baje kumusura.

Mu nkiko gacaca niho abaturage biciwe ababo n'abarokotse jenoside bazaga bagashinja ababibakoreye, kugira ngo babiryozwe ko kuko ibikorwa bakoze ari ibikorwa by'ubunyamaswa kuko bicaga bakuru ndetse n'abana ntibatinye kubica kandi urupfu rubi rw'agashinyaguro.

Mu cyumba cy'inama abayobozi batandukanye uyu munsi baje guhuriza hamwe kugira ngo bige uko ibibazo biri mu baturage bagiye kubikemura nubwo bitoroshye. Umugabo uyoboye Akarere ka Kicukiro arimo aratanga ibitekerezo bye bitewe n'uko ibibazo biri mu Karere ke atari byinshi nk'ibiri mu tundi turere, kugira ngo ababwire uko yabigenje nabo bigabanyuke.

Gereza iherereye mu mujyi wa Kigali, imfungwa zose bazisohoye kugira ngo babashe kuba bakora ibindi bikorwa biteza imbere igihugu harimo nk'ubuhinzi bw'amashuri, ububaji ndetse no gukora imihanda.

Icyumba cyabereyemo inama, aho abagabo bambaye imyenda y'akazi bigaragara ko ari abacamanza, umwe muri bo yahawe inshingano zo kuba ari we uyobora urukiko rukuru rw'ikirenga. Iteka iyo uhawe inshingano urabirahirira kandi ukemera ko uzabikora neza, udaharanira inyungu zawe gusa.

Icyumba gikoreramo abacamanza ndetse n'abavoka, abantu baba bafunzwe cyangwa se abandi bari kurenganywa baraza bagatanga ikirego cyabo maze hano bakareba uko bimeze bakababuranira bityo utsinze ni we uba ari umunyakuri.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe, bose bigaragara ko ari abayobozi, bambaye akantu kameze nk'umukandara gaciye mu ijosi kagafatira mu kuboko, gakozwe mu idarapo ry'u Rwanda, baje kuganiriza abaturage, kugira ngo ibibazo bafite muri bo babashe kubibakemurira.

Umugabo wambaye imyenda ya gisirikare, akaba yambaye na amarinete, yicaye iwe mu rugo muri salo, bigaragara ko aribwo yari akiva mu kazi akigera mu rugo. Uyu mugabo yishimiye kongera kugera iwe mu rugo, bitewe n'uko abasirikare akazi kenshi bagira batabona umwanya munini wo kumarana n'imiryango yabo.

Umugabo mwiza wambaye neza bigaragara ko, yize amashuri menshi cyane kuko uko agaragara urabona ko ari umunyabwenge, yambaye ishati na karuvati, inyuma yarengejeho umwambaro w'akazi bigaragaza ko ari umucamanza.

Umugabo mwiza munini ubyibushye bigaragara ko ari umukire, yambaye ishati nziza y'umweru na karuvati y'umutuku, yambaye n'umwambaro w'akazi kuko uyu mugabo ni umucamanza. Ari kwifotoza ifoto bazashyira ku cyangombwa cyiwe cy'akazi.

Mu nteko y'abaturage, uyu munsi bazindutse kandi bitabiriye ari benshi kugira ngo bumve icyo umuyobozi arababwira, mu nteko niho abafite ibibazo biba bitaragiye bikemukira mu nzego zo hasi, baza bagatanga ibibazo byabo abayobozi bakuru bakabibakemurira.

Ni byiza ko igihugu cyose gikwiye kugira amategeko akigenga kugira ngo abaturage bacyo babane neza mu mahoro ndetse n'abandi babangamira abandi babashe kuba bahanwa bityo bitume n'abandi bifuzaga gukora ibikorwa bibi batinya bitewe n'uko batinya ibihano. Igihu cy'u Rwanda natwe dufite amategeko tugenderaho kandi iteka iyo uyarenzeho urahanwa.

Abagabo bambaye impuzankano y'akazi bashyize na kasike mu mutwe bigaragaza ko bari kwirinda, baje kuzimya inkongi y'umuriro. Ni byiza ko igihe ubona ahantu hagifatwa n'inkongi y'umuriro, uhita utabaza kugirango ngo batabare hakiri kare bitarafata ahantu hanini kuko bishobora gutwara ubuzima bwa benshi.

Agace kari gafashwe n'inkongi y'umuriro ariko polisi ifite abakozi babyigiye bashinzwe kuzimya iyo nkongi kugira ngo itaba yafata agace kanini bityo ubuzima bwa benshi bukaba bwagenderamo. Ni byiza ko igihe ubona icyo kibazo kibaye uhita utabaza kugira ngo bagufashe hakiri kare.

Muri iyi parikingi y'akarere haparitsemo imodoka nyinshi zitandukanye zirimo iz'abayobozi ndetse na polisi, harimo imodoka imwe ishinzwe umutekano wo mu muhanda, aho iyo hagize urenga ku mategeko imukurikirana bakabasha kumuhana.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ari kuyobora ibinyabiziga kugira ngo agaragaze ibikwiye kugenda mbere, bityo habe hakwirindwa impanuka cyane cyane igihe ibinyabiziga, bigeze mu ihuriro ry'imihanda.

Umuhanda uherereye i Kigali-Nyabugogo, horara haca amamodoka menshi cyane. niyo mpamvu bisaba ko haza umupolisi, kugirango abashe kuyobora ibinyabiziga bityo impanuka zireke kuba, kandi afasha n'abanyamaguru kwambuka bitewe n'uko ibinyabiziga biba ari byinshi cyane ushobora gutegereza ko birangira, bikarangira uraye uhagaze mu muhanda.

Abanyeshuri biga muri segonderi, abahungu bambaye amapantaro ya kaki n'amashati y'umweru, abakobwa nabo bambaye amajipo ya kaki n'amashati y'umweru. Polisi zaje kubaganiriza ukuntu bakwirinda ibiyobyabwenge ndetse bakabereka n'ingaruka bigira ku buzima bwabo.

Abapolisi babiri bari mu kazi, baje kureba ko mu muhanda umutekano ari wose kandi n'ibinyabiziga bigenda neza mu buryo budateza impanuka. Imvura iri kugwa niyo mpamvu bose bifubitse amakote kugirango imvura ntibabangamire kuba bakomeza gukora akazi kabo neza.

Abaturage bo mu Karere ka Kicukiro, baje kwamamaza umukandida witwa Habineza Frank wari ushaka ko na we yaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo byakunze kuko yari ahanganye na perezida Paul Kagame kandi akaba ari we wari usanzwe uyobora iki gihugu, kandi abanyarwanda bose bakaba barishimiye uburyo abayoboramo.

Imibare igaragaza ukuntu abagore basigaye bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, kandi bari ku mubare uhagije kandi ushimishije, muri iki gihe tugezemo ntabwo ari nka kera, kuko hashyizweho gahunda y'uburinganire, aho wasangaga abagore n'abakobwa ibikorwa byinshi bigamije guteza imbere igihugu bahejwe, ubu byose baremerewe kuba babikora.

Abana ni beza cyane kuko umuntu wese uje abasanga bamwakirana urugwiro, abana nta mwanzi bagira, aba bana baje guhobera umukandida w'ishyaka ryitwa Girini pati witwa Habineza Frank wari uri kwiyamamaza kuba yaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda.

Icyumba cy'inama, aho abayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bahurira, bakaza kuganira hamwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, aba bayobozi baritanga cyane kuko bakunda igihugu cyabo kandi bifuza ko abo bayoboye babaho babayeho neza.

Abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda, bose bitabiriye bitewe n'uko umuyobozi yaje kubaganiriza, iyo bumvise ko umuyobozi mukuru araza bitewe n'uko hari ibibazo baba bafite bitakemukiye mu nzego z'ibanze, bose baza bazindutse kugira ngo ibibazo byabo babashe kuhava bikemutse.

Abanyamuryango ba FPR inkotanyi, bose bafite amabendera mu ntoki, bafite n'idarapo rya FPR, bayazamuye, bigaragara ko bari kubyina bishimye, bitewe n'uko baje kwamamaza umukandida wabo witwa Paul Kagame, kugirango ngo abe perezida uyobora igihugu cy'u Rwanda, intego ye ni uko umuturage aba ku isonga.

Umugore mwiza wambaye ikanzu nziza y'ubururu hariho udutako tw'umweru, yizihiwe arimo arabyina bya kinyarwanda, uyu mugore yitwa uwiringiyimana agata mu bihe byashize yari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda; uyu mugore tumufata nk'intwari gusa ikibabaje ntabwo akiriho.

Umugabo witwa Habineza Frank, aherekejwe n'abandi babana mu ishyaka ryitwa Green Party bamuherekeje kwiyamamaza kugira ngo barebe ko yaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda, gusa ntabwo byakunze kuko Paul Kagame ari we wabaye perezida w'iki gihugu.

Umugore mwiza ufite imisatsi idefirije, arimo araseka yambaye neza, uko bigaragara uyu mugore ni umusirimu kandi aba yanisize utuntu tumufasha kugira ngo ubwiza bwe bwiyongere, uko bigaragara uyu mugore ni umuyobozi kandi yarabyize.

Abanyamuryango ba FPR baje kwamamaza umukandida wabo perezida Paul KAGAME kuko bashaka ko n'ubundi ari we wongera akaba perezida w'Igihugu cy'u Rwanda. Buri munyarwanda wese aba yumva atewe ishema no kuba ari umunyamuryango wa FPR, bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa uyu muryango wakoze.

Umugabo witwa Mpayimana Philippe yashakaga ko yaba Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ntabwo byakunze ko atsinda, kuko yari ahanganye n'abandi bakandida babiri harimo Paul Kagame ndetse na Habineza Frank. Bose baratsinzwe Paul Kagame ni we watsinze, ubu ni we Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda.

Mu cyumba cy'inama abayobozi b'inzego zitandukanye, uyu munsi baje bazindutse kugira ngo barebere hamwe icyakomeza guteza imbere igihugu cyabo, kandi n'uburyo ibibazo biri mu baturage babasha kubikemura, buri wese ari gutanga igitekerezo ariko uwumva afite icyo ashaka kuvuga, ari kuzamura ikiganza, bakamuha umwanya akababwira ibyo ashaka kuvuga.

Umuhanda wa kaburimbo, ikimodoka kinini k'ikibisi gifite ibara ry'ubururu n'umweru, gitwaye abagenzi, iyi modoka itwara abantu benshi cyane bitewe n'uko harimo intebe nyinshi ndetse hagati hakabamo n'abagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali, ku ruhande hahinzemo indabo, bashyizeho uruzitiro rukozwe muri supanete y'icyatsi, mu muhanda hari kugendamo amapikipiki ndetse n'amagare. Ku ruhande kandi hari inzira y'abanyamaguru na bo bagenda bisanzuye.

Muri gare ya Nyabugogo, imodoka nziza isa umweru yitwa kwasiteri, itegereje abagenzi, umuyobozi yabaye asinziriyeho gato kubera ko yari avuye mu rugendo rurerure, kugira ngo urundi rugendo arajyamo, abagenzi batware yaruhutse bitaba byavamo kuba yabakoresha impanuka bitewe n'uko ananiwe.

Umuhanda wa kaburimbo, ibinyabiziga biragenda ndetse n'abanyamaguru nabo bakagenda kuko nabo bashyizeho, inzira yabo bagendamo bisanzuye batari kugongana n'ibinyabiziga. Mumumuhanda harimo ikibisi kinini cyane bigaragara ko gitwara abantu batari bake, gifite ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo imodoka y'ikamyo, ifite ibara ry'umweru, ku ruhande umugabo wari utwaye igare arananiwe yibuka ko hari n'utundi tuntu yari yibagiwe kugura, aparika igari ku muhanda arabanza ajya kutugura, ariko ibi si byiza bitewe n'uko bishobora guteza impanuka cyangwa igare rye bakaryiba.

Ikinyabiziga giteye mu buryo butangaje bitewe n'uko aho umuyobozi wacyo aba wa bimeze nk'pikipiki, ariko warebera inyuma ukagirango ngo n niimodoka y'idahatso, handitseho made in rwanda bigaragara ko yakorewe mu gihugu cy'u rwanda.

Mu muhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa kigali, harimo haragendamo imodoka ebyiri n'umunyamaguru uri kugenda n'amaguru wikoreye igifuka kinini cyane. uyu mugabo afite imbaraga kuko ibyo yikoreye biraremereye ntabwo umuntu wese yabishobora.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali, ibinyabiziga biri kugenda byisanzuye, harimo akamoto kameze nk'akamodoka gafite ibara ry'ubururu, inyuma batwikirijeho ihema kugira ngo ari umuyobozi w'aka kamoto cyangwa ibyo atwaye igihe imvura iguye, ntihagire n'umwe ubangamirwa.

Umuhanda munini wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa kigali harimo haragendamo ikimodoka kinini gifite ibara ry'umuhondo gitwaye matela nyinshi cyane bavuye kuzirangura mu mujyi wa Kigali bagiye kuzicuruza mu mujyi wa Butare bitewe n'uko ari kure ya Kigali abantu baho bisaba kuzibegereza kugira ngo bazibone biboroheye.

Mu muhanda ku ruhande baba baragiye bahasiga aho ibinyabiziga bishobora guhagarara mu gihe bitegereje abagenzi, hano hari parikingi nini aho amapikipiki bayaparika igihe abagenzi bataraboneka.

Muri gare ye iherereye mu Mujyi wa Kigali hagati, bisi ziba zitegereje ko abagenzi baza, buri wese bitewe n'aho ajya, akajya gutonda umurongo, kuko buri gace baba baragiye babereka aho bazajya bategerereza, ndetse igihe batarahagera bisi zo ziba zahageze zibategereje.

Umuhanda munini wa kaburimbo harimo haragendamo igikamyo imbere gisa umweru ariko inyuma ni umuhondo. Iki kimodoka gitwara ibintu byinshi cyane ku buryo ukeneye kwimuka cyangwa se uri kubaka ukeneye amabuye menshi cyangwa imicanga n'amatafari bagufasha bakabigutwaza.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, ibinyabiziga biragenda byisanzuye, harimo imodoka y'idayihatsu y'umweru, ipakiye amasaka n'ibigori n'ibishyimbo, babitwikirije ihema kugira ngo imvura niramuka iguye ntibihite binyagirwa kuko bituma byangirika.

Mu muhanda wa kaburimbo, ikimodoka kinini cyane gitwara peteroli kivuye muri Tanzania kigiye muri Congo, abayobozi batwara ibi bimodoka, baba ari abahanga kandi banabishoboye, bitewe n'uko batwara igihe kirekire ariko ntibapfe gukora impanuka.

Mu muhanda wa kaburimbo, umumotari yari avanye umugenzi i Kanombe, agenda yizeye ko arahita abona undi yagarura, Nyabugogo ariko yamubuze bitewe n'uko abantu benshi uyu munsi nta ngendo bakoze, biriwe mu rugo bari gukora amasuku.

Umugabo witwa Hakorimana, uyu munsi yari yaje mu Mujyi wa Kigali azanye ibitoki yaje kubigurisha, ariko bitewe n'uko iwe mugo yibutse ko nta miceri bari bafite, na we ahaguze ibiro icumi, kugira ngo ashyire umuryango we ubeho neza.

Inyubako twakwita ko ari sitade bahateye intebe zubatse nka sima bitewe n'uko umuntu wese uje atajya azana intebe, ndetse banazihashyize bashobora kuba baziba ni byiza ko bahashyira aho kwicara afatiyeho, kugira ngo abantu bose igihe cyose yahagererira byabasha kubona aho kwicara.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande bashyize ahandi hantu hanini naho ho mu muhanda ariko bahashyizemo itapi kugira ngo abantu bakora siporo bajye ari ho babasha kuyikorera. Muri uyu muhanda nta binyabiziga bicamo, hanyuramo abantu bari muri siporo gusa.

Ku muhanda bahateye agatebe kugira ngo abagenda igihe barushye bajye baza baruhuke, maze babone uko bakomeza urugendo bafite imbaraga batananiwe. Hari igihe kandi uhagera ukumva nta mbaraga ufite bisa nk'aho urwaye ukaba wahicara utegereje ubutabazi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara. Iki cyapa kimenyesha abayobozi ko mu umuhanda bari kugendamo hagiye harimo utununga bisabye kwitonda.

Iyo uri kujya mu Karere ka Rusizi uca mu ishyamba rya Nyungwe, ni ishyamba rirerire cyane kandi rinini kuko imodoka igendamo hafi amasaha abiri kandi iri kwihuta. Aka Karere gafite ibintu byinshi bitangaje kuko gakora no ku Kiyaga cya Kivu.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, harimo amashusho y'abana babiri bafatanye bari kwiruka, bimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga, ko imbere aho bari kujya, hari ikigo cy'amashuri, basabwe kugenda gake, kugira ngo birinde impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza kuru ruhande bashyizeho ibyapa bifasha abayobozi kumenya ibiri imbere icyapa kiri hano gifite ishusho y'urukiramende kuzenguruko n'umweru, ubuso nu ubururu handitsemo ijambo burije byerekana ko imbere hari ikiraro.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko ni umweru, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru, iki cyapa cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko umuhanda ukomeje imbere.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko ni umweru, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru n'umukara. Iki cyapa cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere aho bagiye kugera, hari aho abanyamaguru bambukira, basabwe kugenda gake kugira ngo hatabaho impanuka.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru, ni byiza ko abayobozi b'ibinyabiziga bagenda mu muhanda bakwiye kumenya ubusobanuro bwa buri cyapa n'icyo kimenyesha kuko iyo ubirenzeho urahanwa batitaye niba ubusobanuro bwabyo wari ubuzi.

Icyuma gishinze mu muhanda gifatiyeho ibyapa bibiri, bimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ibintu bitandukanye, ibi byapa byose bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umuhondo, ibirango ni umukara.

Inyubako nziza zubatse mu buryo bugezweho, ziherereye mu Mujyi wa Kigali. Uko bigaragara muri uyu mudugudu, umuntu wese ugiye kubaka inzu, arabanza akaka uburenganzira bityo bakamwereka uko biteganyijwe ko umudugudu ugomba kuba usa, n'inyubako zigomba kuba zubatswemo, yaba afite ubushobozi akubaka inyubako zubatse nk'uko Leta ibiteganya.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho iracyari nshyashya, ifite amarangi meza kandi ifite n'ibyumba bihagije n'ubwiherero buhagije ndetse n'ubwogero, iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ku Gisozi, umuntu waba ashaka gukodesha yahagera akavugana natwe kuko ntago tumuca amafaranga menshi.

Inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibiryo, twakwita ko ari resitora, yubatse neza, abaje babagana ubishaka yicara hasi cyangwa se akajya mu nyubako yo hejuru, akajya areba n'abari mu muhanda, ndetse no hakurya y'iyi nyubako.

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali hubatsemo inzu nyinshi kandi zose ni nini zinubatse mu buryo bwiza bugezweho, bigaragara ko abatuye muri aka gace ari abakire kandi ari n'abasirimu, buri nyubako iruhande rwayo hateye ibiti mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bagire umwuka mwiza.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, imbere bafite ubusitani bwiza kandi bunini, burimo agacaca keza, n'ibiti bitandukanye, harimo iby'amapera ndetse n'iby'amapapayi, iyi nyubako ni nziza cyane, kandi ni nini, ku buryo umuntu waba ufite umuryango akeneye inzu yo kubamo, yaza akayikodesha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, hasi mu nyubako hakoreramo farumasi ndetse n'iyindi supamaketi, bacuruza ibyo kurya, birimo imbuto, imigati, amabiswi, amaji, amata ndetse n'imbuto zose.

Inyubako nziza cyane ziherereye mu mujyi wa Kigali, zose ni etaje zubatse mu buryo butangaje, zisize amarange meza ku buryo kuzireba uhita ubona ko ari inyubako nziza kandi zituma ahantu zubatse hagaragara neza cyane, muri izi nyubako harimo imwe ikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB.

Inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, ni nziza cyane ifite amarangi meza kandi yubatse igeretse. Iyi nyubako ushobora kuza ukayibamo n'umuryango wawe wose kandi mwese mukaba mwisanzuye, ari abakobwa bafite ibyumba byabo ndetse n'abahungu, kandi hakaba harimo n'icyumba cy'abashyitsi ndetse n'icy'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatse neza kandi iracyari nshyashya, amarangi yabo ni meza ibirahure ndetse n'inzugi nabyo ni byiza, ifite urupangu rwiza cyane, aho urugi rw'igipangu bidasaba kwirirwa ufungura, kuko rufite amapine, urasunika ubundi wamara kugenda cyangwa gusora imodoka yawe, ukongera ugakurura ugakinga.

Mu mujyi wa Kigali i Kanombe hari amazu menshi yagiye atandukanye abantu bashobora gukodesha, umuntu wumva akeneye gutura mu mujyi wa Kigali i Kanombe, yahagera akareba inzu zose zihari agahitamo iyo ashaka bitewe n'ubushobozi afite.

Nyandungu ni ahantu hari ubwiza nyaburanga, harimo ibiti byiza, harimo uduhanda dukozwe neza dushashemo amapave, aho abantu bagendamo bagenda ku tugare yaba ari utwo bagenda banyonga cyangwa se uhagarara gusa kakagutwara, muri iyi pariki harimo ibinyoni byiza cyane binini bitangaje.

Inyubako nziza yubatse neza bafitemo amacumbi yagiye atandukanye aho muri aya macumbi wowe icyo uzana ari imyambaro yawe gusa kuko ibindi bikoresho byose urabihasanga, yaba ibyo mu gikoni, yaba ibitanda n'amamatera, yaba n'ibikoresho byo muri saro.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane usa neza, hateyemo ibiti ndetse hagati harimo imikindo myiza cyane, abantu bagenda muri uyu muhanda, bagenda bareba ibintu byiza kuko ari amazu ari ku nkengero z'uyu muhanda n'ibiti bihateye, byose urabireba ukabona ni byiza cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo, bashyizeho aho abanyamaguru bambukira, kugira ngo habashe kwirindwa impanuka abanyamaguru batambukira ahantu hose babonye, muri uyu muhanda kandi hagiye harimo ibyuma byitwa sofiya, bigenda bifotora ibinyabiziga birenga ku mategeko y'umuhanda bakazabaca amande.

Akenshi mu mahuriro y'umuhanda, baba baragiye bubakamo utuntu tuzengurutse, bagateramo agacaca keza n'indabo, ugasanga harimo n'imikindo rimwe na rimwe, ibi aba ari ukugira ngo buri kinyabiziga kigiye gukata, kizenguruka iyi rompuwe ndetse bikaba ari ingenzi, kuko bigabanya impanuka zishobora kubera muri aya mahuriro y'imihanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo wubatse neza kandi urasukuye, amarangi basize mu muhanda aracyari mashya aracyagaragara, bigaragara ko hashize igihe gito uyu muhanda bongeye kuwuvugurura, ibinyabiziga bigenda byisanzuye kandi hateye n'ibiti ku mpande buryo abantu bagenda mu muhanda baba bumva amahumbezi.

Imihanda ibiri yubatse igerekeranye mu buryo ureba ukabona ko ari ikiraro, ariko hasi n'umuhanda, n'undi wo hejuru ni umuhanda. Byubatswe mu buryo butangaje, kandi iki kiraro kirakomeye cyane ku buryo imodoka ziriguca mu muhanda wo hejuru zitagwa cyangwa se ngo ikiraro gisenyuke bibe byabangamira umuhanda wo hasi.

Ihuriro ry'imihanda itatu ya kaburimbo iva mu bice bitandukanye. Ni ihuriro hagati bagiye bashyiramo utuntu bubatse tw'udusima kugira ngo tubashe gutandukanya imihanda ndetse bigabanye n'impanuka zishobora kuberamo igihe ibinyabiziga birimo binyura muri iri huriro.

Umuhanda mwiza cyane uturuka mu mujyi wa Kigali ujya Kicukiro ugakomeza ujya mu bugesera, hariyo ikindi kiraro ariko ntago ari ikiraro kinyuramo amazi kuko hasi hari umuhanda no hejuru hakaba undi muhanda, byubatswe mu buryo butangaje kandi ubirebye wese abona ko ari ibintu byiza bigezweho.

Mu mujyi wa Kigali, hariyo imihanda myiza cyane, yubatse mu buryo bufite isuku kandi buhagije, ku buryo ibinyabiziga bigendamo byisanzuye, ndetse hakaba hari n'inzira z'abanyamaguru zihagije, na bo bagenda batabangamiwe. Iyi mihanda ntabwo abagenzi bata imyanda aho babonye, kuko ku mpande baba barashyizeho ingarani batamo imyanda.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse neza, amarangi basizemo aracyari mashyashya aracyagaragara, bigaragara ko baherutse kuwuvugurura mu gihe gito, mu muhanda harimo imikindo myiza cyane, gusa igihe habayeho impanuka, umuyobozi w'ikinyabiziga akagonga uyu umukindo, ahanwa bikomeye kuko bamuca amafaranga menshi cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ku ruhande hateyeho ibiti byiza cyane ndetse n'agacaca, aho igihe uri kugenda wumva unaniwe, ushobora kwicara mu gacaca ukaba wiyotera akazuba cyangwa wumva akayaga kari guturuka mu biti. Umuhanda kandi bashyizeho n'akayira k'abanyamaguru, akayira k'amagare n'aho ibinyabiziga binini binyura.